Saro nziza cyane igezweho irimo abakozi bambaye imyenda isa n'ubururu. Harimo abandi bantu basanzwe bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'umweru andi asa n'umukara. Harimo intebe nziza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, amwe asa n'ubururu, bicaye ku mashini nyinshi cyane, badoda imyenda zisa n'ubururu, impande zabo hari intebe isa n'ubururu.